Mu cyumba kinama hari abantu bicaye ku meza, bafite mudasobwa n'impapuro z'inyandiko hari kamera inyuma yerekana ko inama irigufatwa amashusho, icymba kirimo intebe zikozwe mu ruhu kandi ku meza hari amacupa y'amazi.

Umunara muremure cyane uri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku ufite udushami dutandukanye tw'ibyuma na antenti n'amasahani . Uwo mu nara ukoreshwa mu kohereza no kwakira ibimenyetso bikaba iby'ingenzi mu miyoboro y'itumanaho nk'iya tetefoni zigendanwa , radiyo na tereviziyo. Inyuma y'uwo mu nara hari ikirere gisa n'ikirimo igicu gikeya.

Umugabo uhagaze hanze ku zuba wambaye imyenda y'abagororwa n'amarinete ahagaze imbere y'icyuma mo imbere harimo urupapuro rw'umweru rusa n'urutanga amatangazo.

Itsinda ry'abagororwa bicaye ku murongo bambaye imyenda isa iri mu ibara rimwe risa iroza bicaye hanze ndetse inyuma yabo hagaragara ibimera n'ishyamba hakurya mu ntera.

Umugabo wambaye ikoti ririmo uturongo ndetse n'ishati y'umweru na karuvati n'amarinete, ahagaze imbere y'aho bavugira uruvugiro, imbere ye haragaragara mudasobwa ndetse n'indangururamajwi, ari zo zizwi ka mikoro, inyuma ye hari ikintu kimeze nk'icy'ubururu, kimeze nka taburo ariko ntikigaragara neza cyangwa se ntikigaragaza neza amagambo acyanditseho.

Umutegarugori wicaye ahantu hererutse hasa nk'aho ari ahantu ho mukazi cyangwa se mu biro kumeza yicayeho hariho ibitabo ndetse n'amakayi menshi ibipaburo byivanze mu mabara y'umweru, afite ibipapuro muntoki ndetse n'ikaramu ndetse kumeza yicayeho hariho ibendera rigizwe n'amabara n'inyuguti ya R

Itsinda ry'abaturage bahagaze ku murungo, buri wese afite urubapuro rwera rufite igishushanyo kimwe. Ahantu bari, bisa nk'aho ari hanze, bishobora kuba bari mu gikorwa kwamamaza wabo umuyobozi cyangwa se umukandida wabo wabayobora.

Umuntu wambaye umupira w'icyatsi kibisi ndetse uhetse igikapu cy'umukara ku kaboko kiwe k'iburyo, inyuma y'iwe hari umugabo uhagaze ndetse ntagaragara mu isura ndetse inyuma y'iwe hari ibimera biri ku ruhande rw'iburyo.

Ni mu giye cy'umugoroba aho abantu babiri bari kwambuka umuhanda kandi inyuma yabo hari moto ebyiri. Amatara yo ku muhanda aratse kandi hari ikimenyetso cy'umuhanda kigaragara mo hagati. Haranagaragara ibiti n'urutare rukoze nk'urukuta muri iyo nzira.